Icyumba cyo kwa muganga harimo abaganga batandukanye, babiri bari ahantu hamwe bari kwita ku murwayi umwe, umwe yambaye akagofero k'ubururu n'imyenda y'ubururu, impande hari undi yambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara, agapfukamunwa n'akagofero k'ubururu, hirya yabo kandi hari undi muganga w'umugabo na we wambaye agapfukamunwa n'itabura y'umweru.

Kwa muganga haba hari abarwayi benshi bagiye batandukanye, aho usanga abarwayimo imbere mu bitaro ndetse n'abaje kwivuza bari butahe, aha ni kwa muganga rero hari indabo z'umuhondo, imbere muri ibi bitaro hari abantu bicaye hanze.

Abantu benshi barimo abitwikiye imitaka bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro mirongo itatu, imbere yabo hari abantu babiri bafite igitambara cyanditseho ibitaro bya Nyagatare, impande y'aho bari kunyura kandi hateye ibiti.

Umugore urimo kuvuga yambaye umupira w'icyatsi, ikote ry'umukara imbere hari indangururamajwi ebyiri imwe y'umukara indi y'amabara y'umuhondo n'ubururu, inyuma ye hari icyapa cyanditseho RBC Rwanda Medical Center, impande ye kandi hari abana bamwe bambaye imyenda ya kake abandi bambaye umukara.

Abantu benshi bicaye hamwe bakoze uruziga barimo abagabo n'abamama, harimo umugore uteraye mwana hari n'undi uheretse umwana impande y'aho bicaye kandi hari inyubako y'amatafari ahiye afite urugi rw'umutuku.

Imodoka ya ribu iparitse imbere ya farumasi, imbere y'iyi farumasi kandi hari umuntu uri kugenda wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere y'iyi farumasi kandi hubakishije amapave.

Mu Rwanda dufite farumasi nyinshi zifashishwa, aho usanga iyo abantu barwaye baza kugura imiti bakoresha mu gihe batabonye uko bajya ku bitaro ngo babafashe. Iyingiyi rero ni farumase irimo mudasobwa irimo kwaka hacometse n'izindi mashini nyinshi.

Abantu benshi bicaye hamwe bakoze uruziga harimo abagabo n'abagore, harimo umugore wambaye ikote ry'ikoboyi yifashe mu rutugu, hari undi mugore wambaye ibitenge by'icyatsi yegeranye n'undi wambaye umupira w'umukara, ijipo y'umweru, impande ye hari undi urimo kwicara n'uwambaye ibitenge by'ubururu.

Abantu bicaye abandi bahagaze aha ngaha bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari ameza, hari udutebe tw'icyatsi ndetse harambitse n'igikapu, impande y'iki gikapu hari icupa batwaramo amazi.

Mu muco gakondo kera abantu bambaraga imyenda y'impu z'inyamaswa, aha ngaha turabona umuntu wicaye yambaye imyenda y'impu afite imisatsi myinshi ari kunywa itabi, imbere ye kandi hari ibintu bigiye bibumbye mu ibumba.

Mu gihe abantu batabashije kujya kwa muganga rimwe na rimwe hari ubuvuzi bwa gakondo bu bafasha, angaha turabona umuntu uryamye ku gitanda kiriho amashuka y'umweru banamworosha indi y yumweru imbere ye hari umuntu wambaye ishati y'umweru ubona ko arimo kumukanda akaguru bigaragara ko uyu umuntu yavunitse akaguru.

Kwa muganga harimo umugore uhetse umwana amufitse agashuka k'umweru, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe ya sheze arimo kwandika, ari kwandikira ku meza ariho igitambaro. Kuri aya meza kandi hariho' icupa ry'umweru bashyiramo imiti impande yaho harimo n'andi macupa menshi.

Umugore wambaye ishati y'umweru arimo kureba mudasobwa iteretse imbere ye ku meza, ameza ariho igitambaro cy'umukara, hariho garafeza ikoreshwa barimo gufatanya impapuro harambitse n'impapuro ku meza, impande y'izo mpapuro kandi hariho akabati karimo amakaye y'ubururu.

Ivuriro risizeho amarangi y'ubururu handitseho "Girubuzima Health Post". Imbere yaryo hahagaze abantu benshi barimo: abakobwa, abagore, abagabo ndetse n'abahungu. Harimo abambaye amataburiya y'umweru. Harimo umugore wambaye ishati y'umutuku, ipantaro y'umukara, hari n'undi ufite isakoshi mu ntoki ndetse n'agasharupe mu ijosi.